Inote z'ubwoko butandukanye iz'igihumbi, iza magana atanu, iza magana abiri ndetse zitandukaniye ku bihugu kuko zimwe ni iza Kongo izindi ni iz'i Rwanda.

Umusore mwiza muremure ufite terefone uri guseka wishimye ndetse ugaragaza amenyo, afite telefone yambaye umupira w'umweru ndetse ahetse n'igikapu.